Ubucuruzi bw'amayinite bukomeje kuzamura urundi rwego, bitewe nuko ahantu hose ku muhanda, ushobora kuhasanga umwajenti wa MTN, ndetse akaba yagufasha kubitsa no kubikuza.

Abagana ibigo by'ubucuruzi bw'ikoranabuhanga harimo nko guhererekanya amafaranga udakoresheje intoki, bavuga ko iyi gahunda ari nziza kuko yagabanyije ibikorwa by'ubujura ndetse n'ubwambuzi.

Sosiyete itanga iby'itumanaho mu Rwanda mtn, irashishikariza abantu bose bifuza kuyikorera nk'abagenti mu ndimi z'amahanga, ko yabashyiriyeho uburyo bazajya babona amafaranga kandi byoroshye.

Abantu bakorera mu nzu z'ubucuruzi zitanga serivisi z'ibanze, harimo nko kubitsa no kubikura, bivugwa yuko bakomeje kubona inyungu itari nke bitewe n'umubare w'ababagana babona.

Gutanga serivisi zirimo, gucuruza amayinite kubitsa ndetse no kubifuza, usanga ahanini muri sosiyete nka MTN, itanga itumanaho mu Rwanda, umubare w'ababagana uba mwinshi ugereranyije n'izindi sosiyete.

Ni byiza ko mu gihe abantu bifuza gutanga umusaruro, ukomoka ku buhinzi buri hejuru, bakorera hamwe ubundi bakibumbira mu makoperative, mu rwego rwo kugira ngo umusaruro wabo uzabe utubutse kandi nta kibazo cyabayemo.

Mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa by'amakoperative no gukorera hamwe hateguwe inama ku mahugurwa azajya ahabwa buri muntu wese wifuza gushora amafaranga ye mu bikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Ikemezo k'ishimwe cyahawe umuyobozi wahize abandi mu kwizigamira cyane mu bikorwa byo kwibumbira mu makoperative muri Banki Nkuru y'Igihugu aho yahawe igihembo hamwe na miliyoni eshanu.

Ubwikorezi bw'amata igihe bukozwe nabi hari igihe haviramo kwandurwa za bagiteriya nyinshi cyane cyangwa se udukoko twica tukanangiza ubudahangarwa bw'umubiri, bitewe n'uko isuku nkeya yaranzwe muri ayo mata.

Amananasi ndetse n'izindi mbuto, ni nibyo byamuritswe ku mugaragaro, ni ibyo koperative Abishyize hamwe yagezeho muri uyu mwaka kuko yahinze kijyambere, umusaruro ukaba wariyongereye.

Abacuruzi bacuruza ibikorwa by'imitako, bibumbiye mu makoperative, bamurikiye ubuyobozi bw'akarere kabo, ibyo bagezeho ndetse banabakangurira ko babwira n'abaturage babo kuza kubagurira.

Ubuhinzi bw'inanasi mu Karere ka Kamonyi na bwo bukomeje gutezwa imbere kuko umusaruro wikubye inshuro zirenga mirongo itanu muri iki gihembwe k'ihinga cya bibiri na cumi na gatandatu.

Abacuruzi nabo barakangurirwa kwishyira hamwe ubundi bagakora ibijyanye n'inyungu z'abaturage aho kugira ngo bacuruze ibintu bimwe ahubwo bagacuruza nk'imbuto.

Abakora ibikorwa by'ubukorikori, harimo imbabura ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bavuga y'uko ibi bikorwa byose byabateje imbere ku rwego rwo hejuru.

Amaduka acuruza inzoga zisembuye n'izidasembuye mu mujyi wa Kigali, avuga yuko hagomba kongerwa amasaha yo gukora kuko ngo gukinga saa tanu z'ijoro bibabangamira cyane.

Bitewe n'uko ba mukerarugendo bakomeje kugana parike y'Igihugu y'ibirunga, byatumye Bralirwa inakora ikinyobwa kiswe Virunga. Mu rwego rwo kugira ngo cyamamaze ibikorwa byo gusura ibirunga mu Rwanda.

Mu kwirinda ndetse no kurwanya malariya, hari amabutike menshi akomeje kugurisha imiti yica kandi ikanarinda umubu utera malariya, mu rwego rwo kurinda abanyarwanda no kubashyigikira kugira ngo bagire ubuzima buzima.

Amaguriro acuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse n'iby'itumanaho aratangariza abakiliya ba ko yashyizeho igabanyirizwa ry'ibiciro ku muntu ugura abonoma ya Startimes izajya ibafasha kureba mikino yose yo hanze.

Abakora ibikorwa by'ubucuruzi ndetse banaranguza ibi bizwi nka depo, bavuga ko hari amafaranga fatizo bashingiraho kugira ngo batange ibicuruzwa ku bandi babikeneye kugira ngo babigeze ku baturage.

Rwari urujya n'uruza ku baturage bose bambukiranyaga imipaka baza gusengera muri Kiliziya imwe yubatse mu mujyi wa gisenyi, mu gihe bari kwizihiza umunsi mukuru w'izamuka rya Bikiramariya mu ijuru.

Abantu igihe bateraniye hamwe yaba abagore, abasore ndetse n'inkumi, haba hari igikorwa runaka kibateranyije ndetse icyo gikorwa kikaba cyabaviramo inyungu nyinshi, harimo no kugirwa inama kuri bamwe.

Gutura kw'abakirisito mu matorero n'amadini mu Rwanda ngo nabyo bigomba guhagakirwa bitewe n'uko hari inama iherutse guterana byanzurwa ko nabo bazajya bagira icyo batanga maze igihugu na cyo kikinjiza umusoro.

Mu uburyo bwo guteza imbere insengero ndetse n'amadini, hashyizweho gahunda y'uko hazajya bigabanyamo amatsinda abiri, aho rimwe rizajya risenga mu gitondo irindi nimugoroba, mu buryo bwo kwirinda ubucukike.

Kiliziya zitandukanye mu Rwanda, zikwiye gusanwa ndetse zikavugururwa kuko zigaragara nk'aho zishaje, ibyo bigatuma abantu bazisengeramo, badakunda kujyayo bitewe n'uko batinya ko zabagwira.

Amatorero n'amadini birashishikarizwa kwitwararika igihe barimo basenga bitewe n'uko inama nyinshi zigenda zihuza abantu batandukanye ziteza ibyorezo.

Amasuyime cyangwa se imyenda bakoresha mu bwogero, mu mahoteli ni ngombwa kugira ngo akorerwe isuku kubera ko abantu baba bayikoresheje baba batandukanye kandi ntabwo byose biba byizewe.

Umuturage, yageze ku nzu zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi mu mugi wa kigali, ubundi arahagarara afata ifoto y'urwibutso, kugira ngo aze kwereka bagenzi be.

Abakira abandi baba abaturuka imbere mu gihugu ndetse n'abava hanze yacyo ni ngombwa ko hashyirwaho uburyo bwo kubakira ubaterera intebe neza kandi ukanagira isuku nyinshi.

Muri hoteli ya Mille Colline hari ibikorwa byiza kandi birangaza abantu igihe baje bayigana, bitewe n'uko hari inyubako yashyiriweho imyidagaduro, buri gihe umuntu wese uyirebye yumva aguwe neza.

Kwiga gusasa ndetse no kwakira abakiriya neza ni umuco ukwiye kuranga buri Munyarwanda wese aho ava akagera cyane cyane mu mahoteli ndetse n'amaresitora akorera mu mujyi rwagati.

Mu ukwakira abayobozi baturutse hanze y'u Rwanda umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda yababwiye yuko u Rwanda rugomba kwiteza imbere kandi rukirinda kuguma mu icuraburindi.

Inzu nyinshi zigezweho ndetse za leta usanga zubatse mu buryo bw'inzu za kinyarwanda aho usanga zubatse mu buryo bwa muviringo aho kuzubaka nk'izindi zisanzwe.

Inzu nziza kandi zigezweho zicumbikira abantu, cyane cyane mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali, zivuga ko muri uyu mwaka zakiriye abanyamahanga batagira umubare.

Uburyo bwo kurimbisha ndetse no gutaka amahoteli runaka, nibyo bituma, abantu babasha kuhagera, bishyura amafaranga ndetse ntagingimira bafite, bitewe no kuba bavuga ko, byanze bikunze bari buhabonere serivisi nziza.

Mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa byo gusura u Rwanda hari amahoteli amwe n'amwe mu mujyi wa Kigali yagiye ashyirwamo ingufu mu kuyubaka nko gushyiraho parikingi z'imodoka nziza,i jarde nziza ndetse n'ibindi.

Hari benshi bakomeje kutavuga rumwe ku mpaka zivuga ko umuceri uteguwe neza uzwi nka pilawu ngo uryoha kuruta indi yose yaba itetswe mu buryo busanzwe.

Inzu ndetse n'ibyumba bya hoteli byakira abantu batandukanye igomba kuba irimo uburiri bwiza ndetse byaba byiza hakaba hari na interineti izajya ifasha abantu kuganira n'isi ndetse n'inshuti zabo.

Ni byiza ko hashyirwaho ubwogero bwa kijyambere mu mazu menshi yakira abantu, urebye ahanini, ibyuma bibonerana ni byiza cyane bitewe n'uko bigaragara nkaho ari ibisirimu cyane.

Gusasa neza no gushyira intebe n'ibitanda mu byumba biraramo abanyamahanga ndetse n'abandi baje bagana amahoteli akomeye mu rwanda, byashyizwemo ingufu nyinshi.

Umugabo ndetse n'umugore bari guciririkana ku bigendanye n'inkweto zo kwambara, aho umugore avuga ko ashaka kugurira umwana we udukweto azajyana kwiga.

Mu bucuruzi bw'imyenda y'abana, bivugwa ko bukomeje gutezwa imbere, bitewe n'uko igiciro cyagiye kizamuka ibi bikaba ritanga igisobanuro cy'uko buri gukorwa neza.

Abadandaza bimwe mu bimera ndetse n'ibihingwa byifashishwa mu gutegura amafunguro yo mu rugo, bacururiza mu isoko rya Kanyinya bavuga ko umusaruro w'ibitunguru kuri ubu wiyongereye, aho ikiro kiri kugura amafaranga igihumbi magana abiri.

Mu kwegereza abantu, ibikoresho by'ibanze, birimo nk'amakaye, amavuta yo guteka ndetse n'amasabune, ari igikorwa cyiza kuko abantu baza babagana, babibona kandi ku giciro, gitoya.

Abacuruza umunyu uzwi ku izina rya gikukuru, cyangwa se bamwe bita uw'ingezi bavuga ko wazamuye urwego, bitewe n'abantu bawushaka kuri ubu, aho abawugu ko bawukoresha no mukuhira amatungo yabo.

Abacuruza inkweto mu isoko rya Kimironko barataka igihombo baterwa n'uko hari ahantu hadasakaye bityo iyo imvura iguye ibicuruzwa byabo bikaba byangirika.

Abakorera mu masoko yo ku mihanda muri Nyamasheke bavuga yuko imyenda yakomeje kuzamura igiciro bitewe nuko iyavaga i Rusizi imipaka yafunzwe, bityo abana bakaba barabuze icyo kwambara.

Abadamu bakora ubucuruzi bw'imyenda mu isoko, bavuga yuko ubu buryo bubafasha kwibeshaho ndetse bakaba babasha no kugira ibibazo bimwe na bimwe bakemura ku giti cyabo.

Abacuruza imyenda ndetse n'ibindi bikoresho mu mujyi wa Kigali mu isoko rya Kimironko baravuga ko uburyo bwo kuvugurura isoko buzatanga ikizere cy'uko n'abanyamahanga bazajya barizamo.

Abacuruzi bacuruza ibisapa rya muhima, bavuga ko kuva bareka gukoresha udutaro hari byinshi bagezeho kubera ko baguze ibibanza muri iryo soko, ubundi barumbuka karahava.

Abakora ibikorwa by'ubudozi bw'imyenda ndetse n'inkweto,, bavuga ko igihe begereye isoko aribwo babona abakiriya benshi, bagereranyije no gukora mu rugo kuko aho baba baturuka nta bakiriya babona.

Mu isoko ricuruza ibikorwa ndetse n'ibikoresho by'ubukorikori, harimo nk'uduketse tubika amafaranga, imidaho ndetse n'ibindi, bivugwa yuko aya masoko agomba kwiyongera mu Igihugu.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi bw'imiteja hazanwe imbuto nshyashya iturutse muri kenya aho iyi mbuto yerera mu gihe cy'amezi abiri ugereranyije n'iyindi.

Intebe ndetse na dekorasiyo bikorerwa ahantu hakira abantu benshi cyane baturutse hanze cyangwa imirimo gihugu, bituma bibakurura kandi bakagubwa neza igihe bari gufa bimwe mu bicuruzwa bihakorerwa.

Amaresitora ndetse n'ayandi mahoteli atandukanye, bivugwa ko bagomba kugira intebe ndende, abantu baza bakicaraho kugira ngo begere kontwari cyangwa se aho bapimira.

Abakora ubunyonzi ndetse n'abaheka imyaka yabo ku magare, bavuga yuko umuhanda bubakiwe wabafashije cyane bitewe n'uko batagikora urugendo rurerure bikorera imitwaro bayijyanye ku isoko.

Gutwara abantu n'ibintu ku binyabiziga bisaba ubwitonzi bwinshi ndetse abantu bakangurirwa gukora bafite impushya zibemerera kubera ko igihe bitagenze gutyo biteza impanuka ndetse abantu bagatakaza ubuzima bwabo.

Umumotari uparitse kuri sitasiyo icuruza amabatiri, aravuga ko igihe agomba kwishyura iyo serivisi ahawe, agomba gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga nawe.

Umumotari ugaragara nkaho yakerewe biravugwa ko ari muri bamwe bagize uruhare mu kubaka umuhanda shyorongi akaba ashobora gutanga ubuhamya bwinshi.

Abagabo babiri bari kuri moto baravuga yuko bakerewe kwitabira igikorwa cyo kwikingiza umwijima kuko bazindukiye mu bikorwa by'umuganda.

Gutwara bimwe mu bikoresho ndetse ibihingwa birimo nk'ibishyimbo ndetse n'indi myaka nk'amasaka ku igare, ni ngombwa cyane kugira ngo bigere iyo bijya ku gihe, bitangijwe cyane.

Guheka ibiryo ndetse n'ibicuruzwa ku magare, mu mujyi wa Nyabugogo, biri kugenda bisezererwa ahubwo byimukira mu byaro, aho abaturage bibagora cyane gusunika amagare yabo, igihe bayapakiye cyane.

Abakora ubwikorezi bw'abantu ndetse n'amatungo hari ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi mu kukirandura, aho abamotari bagenda bashyira abagenzi hamwe n'imizigo bakabatwara hamwe kandi ntago biba byemewe.